Niba abakora umwuga w'itangazamakuru ndetse n'ahandi batandukanye inyuma hari icyuma gifata amajwi ndetse n'amashusho kikayashakakaza imbere yabo ku meza hari amazi akorwa n'uruganda rw'inyange.

Inama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amacupa akorwa n'uruganda rw'Inyange rw'amazi n'ibikoresho byifashishwa mu ndangururamajwi.

Umugore uyoboye inama ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kurangurura amajwi mu mbwirwaruhame kandi ku meza hateretse igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa cyifashishwa mu guhamagara no kwandika ubutumwa bugufi ndetse n'icupa ry'amazi rikorwa n'uruganda rw'Inyange.

Yitabitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo bafite ibikoresho byifashishwa mu kwandika harimo amakaramu ndetse n'amakayi, bari kwandika ibyavugiwe mu nama imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'inyange.

Inama iyobowe n'umugabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu mbwirwaruhame cy'indangururamajwi, bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umweru ndetse bari mu nzu nini cyane.

bingeri zose, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'inyange, ndetse n'utwuma dukoreshwa mu ndangururamajwi.

Ikwiriwe n'abagore ndetse n'abagabo, imbere ku meza hateretse amacupa akorwa n'uruganda rw'inyange, ndetse bakaba bafite n'utwuma dusakaza amajwi ku bantu benshi.

Inama bari mu ngeri zitandukanye, harimo igitsina gabo ndetse na gore, bafite ibikoresho by'indangururamajwi by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu mbwirwaruhame kugira ngo buri wese yumve kandi neza.

Inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye b'abagore ndetse n'abagabo ku meza hari amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange agashyirwa mu macupa yabugenewe.

Inama yitabiriwe n'impande zombi; abagore ndetse n'abagabo, iyobowe n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'agakote k'umukara, ufite icyuma cy'indangururamajwi kifashishwa mu mbwirwaruhame cy'ikoranabuhanga.

Abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, umwe arunamye ari gushyira umukono ku masezerano atandukanye ndetse imeza yabo ifite ibara ry'umweru kandi bari mu nama y'ihema.

Inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo ku meza hateretse amacupa y'amazi, akorwa n'uruganda rw'inyange agatunganywa neza akabikwa mu buryo bwabugenewe, ndetse bafite amakaramu n'amakayi.

Umugore uri gutanga inama zigiye zitandukanye afite icyuma cy'indangururamajwi k'ikoranabuhanga cyifashishwa mu mbwirwaruhame cyangwa mu nama zigiye zitandukanye imbere ye hari ihema.

Bayobowe n'umugore uri gutanga ibitekerezo, harimo abagabo ndetse bafite amacupa akorwa n'uruganda rw'inyange y'amazi, mbere yabo hakaba hari icyuma cyifashishwa mu gusakaza amajwi n'amashusho.

Muremure uriho inshinga z'amashanyarazi harabujijwe kuhahagarara, kuhanywera itabi ndetse no kuhakora, ikindi kandi mu gihe ugiye kuhurira ugomba kwambara inkweto nziza zabugenewe n'imyenda yabyo.

Kumenyekanisha yuko habura iminsi ibiri kugira ngo itariki ntarengwa yo kwishyura imisoro ibe yageze, ritangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwakira no gukusanya imisoro.

Ikigo gukorera ikigo cy'itumanaho n'umuyoboro mugari mu rwanda mtne wambaye umwenda w'akazi urimo ibara ry'umuhondo inyuma hari icyapa cyanditseho irembo hatangirwa ubufasha bwo kwishyura ibintu bimwe na bimwe.

Ku mugaragaro igikorwa cyo gushimira abasora mu gihugu, bikorwa n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda ndetse bakaba hari ibihembo batanze ku basora neza.

Akazu gato kicawemo n'abakozi b'ikigo cy'icungamari mu Rwanda cyitwa ekwiti (equity) gishinzwe gucunga umutungo w'abanyarwanda babicamo bakanatanga inguzanyo z'igihe kirekire n'igito.

Mudasobwa za kera zakoreshwaga mu bigo by'inshuke ndetse n'amumashuri yisumbuye ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse umwana muto ari kwerekana igishushanyo yashushanyije yifashishije mudasobwa.

Umunara muremure wubatse mu buryo bukomeye bw'ibyuma bigezweho, uriho amatara, ndetse hakaba hariho n'inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi wifashishwa mu kumurika, ku nkengero hariho ibiti birebire.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo amagare, amamodoka ndetse n'ibindi bitwara abantu n'ibintu. Ku ruhande hari imodoka kinini kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umweru...

Umunara muremure cyane w' ikigo gishinzwe itumanaho n'umuyoboro mugari mu Rwanda, wubakishije ibyuma bikomeye uriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hirya yawo hariho igiti kirekire.

Ahakorerwa ubwubatsi bw'inganda zigiye zitandukanye, hari iminara miremire cyane yubakishijwe ibyuma bikomeye, igiye iriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umukobwa wuriye hejuru ku giti ku rwego ndetse akaba afite mu ntoki igikoresho cy'ikoranabuhanga ari gutunganya insinga z'umuriro ukwirakwiza amashanyarazi.

Iminara yubatswe mu buryo bukomeye bw'ibyuma miremire cyane, iriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse zikifashishwa mu gutanga urumuri mu mpande zitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'uruhurirane rw'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito; bitwara abantu ndetse n'imizigo, ku nkengero hakaba hari igiti kirekire cyane kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Isambu ihingwamo ndetse ikaba yanakubakwamo amazu menshi, hari umuhanda ugendwamo n'abagenzi, imbere yawo hari igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inzu y'igorofa yubatse mu buryo bukomeye kandi burambye, isize amarange meza cyane ari mu mabara y'umuhondo n'umweru, imbere hari igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ubusitani bunini buteyemo ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'indi mirimbo y'indabo igiye itandukanye, hahagazemo kandi amatara yo ku muhanda ariho inshinga z'amashanyarazi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse gakikijwe n'ibiti bikurura umwuka mwiza bigatanga n'imvura.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hashushanyijemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru banyura ku ruhande kandi hari akayira kanyurwamo n'abanyamaguru gusa.

Umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hariho amatara yo kumuhanda yaka mu gihe cy'ijoro ndetse n'ibiti.

Kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino muri ako gace hifashishwa mu gucomeka ibikoresho bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga imbere yaho hari amazu.

Umunara muremure wubatse mu byuma bikomeye, uriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, mu buryo bwo kunoza ikoranabuhanga, ndetse no kumurikira abanyarwanda.

Bamo mu imbere harimo ibigega bifata amazi ndetse bikanayabika neza agakoreshwa mu gihe kiri imbere cy'izuba, hateretse kandi igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga mu nce zigiye zitandukanye hakaba hari n'itara ryo ku muhanda.

Ikigonderabuzima cyubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, gikikijwe n'ibiti by'ibidukikije, imbere hahagaze imodoka ebyiri z'imbangukiragutabara zifashishwa mu kugeza abarwayi kwa muganga.

Ikigonderabuzima kinini cyubatswe mu buryo bwizewe, gisize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, imbere hari ubusitani bunini butewemo indabo z'imikindo ndetse n'izindi zitandukanye.

Ikigo nderabuzima cy'abagore babyariramo, ku ruhande hari imbangukira gutabara yifashishwa mu kugeza abarwayi kwa muganga igihe barembye ,ndetse hari n'abayobozi bari kuhatambuka.

Ikigo nderabuzima cyangwa ku bitaro bya Muhima biherereye mu mujyi wa Kigali, hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse hirya gato hari imodoka.

Hari bamutekano bambaye impuzankano z'akazi ziri mu ibara ry'umukara bafashe umugabo ukekwaho ibyaha ,bigiye bitandukanye bagiye kumushyikiriza inzego zibishinzwe ndetse afungwe.

Abagabo babiri baburanira umugabo wakoze icyaha, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara, bose bambaye agapfukamunwa hagati hicayemo umugabo, ushinjwa icyaha runaka, bari mu nteko y'amategeko.

Amategeko y'abacamanza mu rukiko aho baburanira, hari abacamanza ndetse n'abahagarariye abakoze ibyaha bababuranira kandi bafite impapuro ziriho ibyo bakoze.

Umugabo uri hagati y'ingabo ebyiri z'u Rwanda zifite ibikoresho b'intwaro wambaye amapingu ku maboko ye ndetse akaba yambaye ikanzu iririmo ibara ry'umweru, inyuma ye hari imodoka.

Abashinjacyaha baje mu ngoro y'ubutabera bambaye imyambaro y'akazi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bakaba bahagaze bategereje ko urukiko rutangira bagashinja ababuranwa.

Imfungwa zambaye impuzankano ziri mu ibara rimwe, ziri gukora imirimo nsimburagifungo y'amaboko, bafite ibikoresho by'ubuhinzi nk'amasuka, ndetse n'ibindi by'ubwikorezi.

Igikoresho cya kizimyamwoto gishyirwa ahantu hahurirwa n'abantu benshi cyangwa hashobora kuba haba inkongi y'umuriro, kifashishwa mu kuzimya igihe habayeho iyo mpanuka ndetse kikaba kiri mu ibara ry'umutuku.

Igikoresho cya kizimyamwoto kimanikwa ahantu hahurira imbaga nyamwinshi mu rwego rwo kwirinda no gukumira inkongi y'umuriro ndetse kikaba cyifashishwa mu kuzimya ahabereye iyo mpanuka.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda w'umukara, hashushanyijemo imirongo myinshi minini iri mu ibara ry'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira mu mu gihe cyo kwambuka. Ku nkengero z'umuhanda kandi hari ibidukikije.

Icupa ry'umutuku ryifashishwa ahabereye inkongi y'umuriro mu kuzimya ndetse no gukumira gukomeza gushya ryitwa kizimyamwoto, riri iruhande rw'igikarito kikaba gishyirwa ahabugenewe hahurira abantu benshi.

Umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi, nyakubahwa Paul Kagame, ari kuganira n'abaturage ku cyateza imbere igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye.

Mu nama bagiye batandukanye yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo ihagarariwe n'umugore w'ukuriye igihugu cy'u Rwanda ndetse bakaba bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara.

Inama yitabiriwe n'abayobozi b'ingeri zose zigiye zitandukanye byahuje abagore ndetse n'abagabo, hahagaze imbere nyakubaha umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda afite indangururamajwi imbere ye.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye bambaye amakoti ari mu ibara ry'umukara, ku meza hariho utwuma tw'irangururamajwi twifashishwa mu mbwirwaruhame.

Umugore ndetse n'umugabo bari kurahira bafashe ku ibendera ry'igihugu ndetse riri mu mabara y'umuhondo, icyatsi kibisi n'ubururu, hashushanyijeho n'izuba, bazamuye ukuboko ku iburyo ndetse bafite ibyuma by'indangururamajwi.

FPR wambaye ishati irimo ibara ry'umweru n'amadarubindi nyakubahwa Paul Kagame ari kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu.

Harimo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini kikoreye imizigo kiri mu ibara ry'ubururu ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibidukikije.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'umunara muremure uri ho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi n'ibidukikije.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanya, ibinini, ibito bitwara abantu, ibitwara imizigo, n'ibindi kandi ku nkengero hakaba hari amatara yaka yerekana uburyo ibinyabiziga bitambuka.

Cyane gitwara abantu benshi mu mujyi wa kigali kiri kugendera mu muhanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye bitwara imizigo ndetse n'ibitwara abantu.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibihererekane rw'amamodoka, amagare ndetse n'amamoto, hakaba hari gucamo ikimodoka kinini cyane gitwara imizigo iremereye.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo imodoka nini itwara abantu mu Ntara ndetse n'ahandi hatandukanye. Iri mu ibara ry'umweru, inyuma y'aho hari umunara muremure.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu hari imodoka iri mw' ibara ry'umweru itwaye imizigo ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru .

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abana ndetse n'ibintu, hari kuza ikimodoka kiri mu ibara ry'ubururu, gitwara abantu benshi mu mujyi wa Kigali hakurya no hakuno, hakaba hari n'utuzu duto twicarwamo n'abagenzi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo k'imodoka kinini gifite ibara ry'umweru kikorera imizigo kiyambukana ku mupaka.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye hari n'ibitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo imodoka ifite ibara ry'umweru, ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ibidukikije.

Umuhanda unyuramo uruhererekane rw'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito bitwara abantu n'imizigo, ku mpande hakaba hari ibiti birebire cyane.

Ikimodoka kinini cyane gitwara abantu n'ibintu, kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'icyatsi kibisi gicanye amatara ku muhanda hagiye hariho udutara duto duto turi mu ibara ry'umuhondo.

Umuhanda ugendwa n'uruhererekane rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibitwara abantu ndetse n'imizigo, harimo aka modoka gato kari mu ibara ry'ubururu kikorera imizigo iremereye.

Umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo ibifite amapine abiri ndetse n'amapine ane arizo modoka, ku nkengero hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye.

Ikibuga cyigishirizwamo amategeko y'imihanda ndetse no gutwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibito ndetse n'ibinini bitwara abantu n'ibintu, inyuma yaho hari ibiti by'ibidukikije.

Umuhanda uhurirwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero zawo harimo ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti birebire n'akayira k'abanyamaguru.

Imihanda inyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigenda bitandukanye, bitwara abantu ndetse n'imizigo hari gucamo ikimodoka kinini cyane gitwara abantu kiri mu ibara ry'umweru ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'imizigo, hari gucamo ikimodoka kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru gikorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'akandi gato.

Icyapa kiyobora gishyirwa ku nkengero z'umuhanda cyerekana aho abanyamaguru banyura bambuka cyangwa se bagendera, kikaba gifite amabara atatu harimo umweru ndetse n'ubururu n'umukara.

Icyapa cyemeza gishyirwa ku nkengero z'umuhanda gifite amabara abiri harimo ubururu ndetse n'umweru cyanditseho inyuguti ya pa yo mu cyapa kikaba cyerekana ko aho hantu hemewe guhagarara.

Inkengero z'umuhanda ziri mu mabara atatu atandukanye, harimo umweru, umutuku ndetse kikaba kiri mu ishusho ya mpandeshatu, hirya gato hakaba hari amatara maremare yo ku muhanda.

Umuhanda w'umukara ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibinini ndetse n'ibito bitwara abantu n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'icyapa cyerekana aho Akanyaru kari.

Icyapa gishyirwa ku nkengero z'umuhanda, cyerekana ko habujijwe guhagarara ibinyabiziga, kiri mu mabara atatu, umweru ndetse n'umutuku n'akarongo gaciyemo hagati, kerekana ko hadahagarikwa.

Icyapa gishyirwa ku nkengero z'umuhanda kiri mu mabara abiri umutuku ndetse n'umweru, kirimo udutara dutatu, ak'umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi kiyobora imodoka uko zigenda.

Shyirwa ku nkengero z'umuhanda kimenyesha cyangwa kiranga, kiri mu mabara atatu harimo umweru, umutuku ndetse n'umukara akaba ashushanyijeho imodoka ebyiri imwe y'umweru n'indi y'umukara.

Ibyapa bishyirwa ku nkengero z'umuhanda byerekana nimero y'uwo muhanda, hariho KN gatatu, KN mirongo itatu, byose byifashishwa mu kuranga.

Gishyirwa ku nkengero z'umuhanda kiri mu mabara atatu atandukanye harimo umuhondo umutuku ndetse n'umukara kikaba cyerekana yuko imbere hari umuhanda ufunganye.

Aha ni mukarere ka Muhanga uri kunyuramo irishwana ry'amagare ku nkengero ,hari akayira ka banyamaguru ndetse n'amashyamba y'ibiti birebire ahagazwemo n'abaturage baje kureba iryo rushwanwa.

Icyapa kiyobora abanyamaguru aho baca cyangwa bambukira, gishushanyijeho umuntu uri mu ibara ry'umukara, ndetse na cyo kikaba kigizwe n'andi mabara y'umutuku n'umweru, gishyirwa ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito bitwara abantu n'ibintu ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'ibiti by'ibidukikije imbere yaho hari inzu y'igorofa.

Ni hanini cyane giteyemo amashyamba ndetse hakorerwa n'umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi hakurya hari amazu yubatse meza mu buryo bugezweho kandi burambye bufite isuku.

Umuhanda w'igitaka unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru hahagaze abamotari babiri ndetse n'imodoka ebyiri hakaba hari n'inzu z'ubucuruzi n'ibiti byinshi.

Amazu menshi yubatse mu kajagari yubakishije amabati harimo ibiti birebire cyane ndetse hakaba hari n'ikindi kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi imbere hari ikigega kibikwamo amazi.

Amazu meza yubatswe mu buryo bugezweho aherereye i Ndera mu mujyi wa Kigali, hakaba hari n'ibidukikije byinshi birimo amashyamba ndetse n'ibindi.

Inzu ziri mu mujyi wa Kigali ziherereye i Kanombe zubakishije amabuye akomeye ndetse n'umucanga, zikaba zikikijwe n'ibiti biriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu ku nkengero hari ibidukikije byiganjemo ;ubusitani, biti birebire ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibinini ndetse n'ibito, ku nkenyero hari akayira k'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'imirongo itatu y'umweru yerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira.

Umuhanda ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari imirongo itatu ndetse myinshi y'umweru, yerekana aho abanyamaguru banyura igihe cyo kwambuka.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'amamodoka cyangwa ibinyabiziga bindi bigiye bitandukanye, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'ibiti biteye by'ibidukikije, n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'akazu kicarwamo n'abagenzi mu gihe bategereje gutega imodoka hakaba kandi hari ibiti.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'ibidukikije by'amashyamba n'amatara maremare yo ku muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'amamodoka. Ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye bitwaye abantu ndetse n'ibintu. Ku nkengero hagiye hari ubusitani bugizwe n'ibiti ndetse n'ibyapa.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye hariho amatara yo ku muhanda impande zombi kuru rundi ruhande hariho ibidukikije byiganjemo ibiti birebire.

Unyurwamo n'uruhererekane rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo ibitwara abantu ndetse n'ibintu harimo kandi imirongo minini iri mu ibara ry'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda w'umukara unyurwamo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ibito ndetse n'ibinini bitwara abantu, ndetse n'ibintu ku nkengero z'uwo hariho ibidukikije byiganjemo ibiti, by'amashyamba.

Umuhanda munini wa nyabagendwa uri mu ibara ry'umukara ugendwamo n'uruhurirane rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibinini ndetse n'ibito bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hakaba hari ibiti.

Inkengero z'umuhanda kizwi mu gufata amashusho ibinyabiziga biri kugenda byihuta, ndetse kikabyandikira ibihano hifashishijwe ikoranabuhanga.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'ibinyabiziga binini n'ibito bitwara abantu ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye, ku nkengero zawo hari ibiti by'amashyamba biteye neza.

Umuhanda ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bito ndetse n'ibinini, bitwara abantu ndetse n'ibintu haari gucamo ikimodoka kinini kiri mu ibara ry'umutuku, ku nkengero zo muri uwo muhanda hariho ibiti.